Abagore bambaye ibitenge by'amabara atandukanye bunamye bari gukora mu murima w'amashu, umugore w'imbere yambaye umupira w'ubururu n'igitenge, inyuma yabo hari umurima w'ibigori.

Umugabo wambaye ishati ushyize akaboko kamwe ku mutwe akandi gafashe terefone iri ku gutwi, inyuma ye hari akabati karimo ibikarito bitenze neza bigiye bisa by'amabara atandukanye.

Inzu irimo amakaro isize irangi ry'umweru, irimo etajeri y'umweru itenzemo ibikombe bifite amabara atandukanye, hari ibifite amabara y'umutuku, icyatsi, umweru, hasi hateretse agakarito.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite amasuka, bari guhinga ikirundo kinini cy'igitaka, inyuma yacyo hakaba hari ibiti birebire, iruhande rwacyo hirya hakaba hari umusozi ugiye uriho ibiti bigufiya bitarakura.

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi cyane byegeranye, imbere yawo hari umurima munini w'ibigori, uhagazemo abantu bambaye imyenda itandukanye, iruhande rwabo hari umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira, uteze igitambaro.

Icyumba gitoya kirimo ibintu byinshi byegeranye, gifite utubati dutenzemo ibikarito, dutenzemo ibitabo, amacupa afite ibara ry'umutuku ndetse n'ibindi bishashi.

Umusozi muremure imbere yawo ufite ibiti byinshi bigiye bitandukanye bifite amashami maremare, imbere yabyo hari umurima munini urimo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye bari guhinga.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru kirimo sima, iruhande rwacyo hateretse akabase k'ubururu, imbere yako hari etajeri nini, ipanzemo ibikarito n'ibikombe by'amabara agiye atandukanye.

Impeke nyinshi zisa, ziri mu gasorori kabonerana zuzuyemo neza, gateretse ahantu karasiweho n'izuba, igicucu cyako kigaragara, inyuma yaho ubona hari ibiti ariko bitagaragara neza.

Icyumba kinini gisize irange ry'umweru, gifite etajeri nyinshi n'utubati dutenzemo ibikombe by'amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, umukara, umweru n'umuhondo.

Ni ibiganza bibiri byambaye ga z'ubururu biteruye ifu yumweru munsi yabyo hari umufuka munini w'ubururu urunzemo indi fu y'umweru nyinshi cyane.

Icyumba kinini gifite inkuta zisize irangi ry'umweru kirimo sima, ku gikuta harambuyeho igitambaro cy'umukara, imbere yawo hari ameza asize irangi ry'icyatsi, imbere y'ameza hari umufuka uteretse w'umweru, wandikishijeho mu ibara ry'icyatsi.

Imbaho zifatanyije zisize irangi ry'umutuku, inyuma yazo hari igitambaro cy'icyatsi, hejuru yazo hari impapuro z'umweru, zandikishijeho ibara ry'umukara risize irangi rya oranje.

Icyumba kinini gifite amakaro y'umweru gisize irange, kirimo ibintu byinshi byegeranye, harimo etajeri iteretsemo ibikombe bigiye bifite amabara atandukanye, oranje, icyatsi, umukara, imbere yabyo hari akameza.

Ibikombe byinshi bifite ibara ry'icyatsi, ibara ry'umweru n'umutuku, bitenze neza bigerekeyije mu kabati, gafite ibara ry'umweru gateretse hasi ku makaro.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bari mu murima w'ibigori, bafite imifuka n'amasahani, hakaba hari umugabo uri imbere wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo wambaye ikote ry'icyatsi n'ipantaro y'umukara na bote, uhagaze hagati mu murima y'amashu akaba ari kugenda ateraho umuti.

Ibiti byinshi birebire byegeranye bifite amashami menshi, imbere yabyo hari umurima munini cyane uhagazemo abagabo babiri n'umugore umwe, imbere yabo hateretse imifuka n'agakapu.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo, ifite ibyapa byinshi by'amabara atandukanye, umuhondo, umweru, ubururu, imbere yayo hari gutambuka imodoka n'amamoto ahetse abantu.

Umurima munini uhinze, urimo ibihingwa bitandukanye harimo insina ndende n'ingufi zifite amakoma maremare y'icyatsi agiye asataguye, iruhande rwayo hari ibiti birebire bifite ibibabi by'icyatsi.

Abakobwa babiri bishimye bari guseka, umwe yambaye ingofero undi asutse, bose bafashe inanasi mu biganza byabo, inyuma yabo hari umurima uhinzemo ibihingwa by'icyatsi.

Mumurima urimo ibigori bitarakura bigiye biteye bitatanye, inyuma yaho hari umurima urimo ibindi bimera, inyuma yaho hari ibiti byegeranye birebire bifite ibara ry'icyatsi, hejuru hari ikirere.

Amashashi y'umukara menshi atenze ku mirongo yegeranye, arimo ubutaka bwinshi buteyemo ibiti bifite amababi y'umutuku, ay'icyatsi, ay'umuhondo, byinshi cyane bigiye byegeranye.

Umurima munini uhinze urimo insina ndende zifite amakoma menshi y'icyatsi zigiye zegeranye ebyiri ebyiri, hagati yazo harimo intera, iruhande rwazo hakaba hari undi murima urimo ibyatsi n'izindi nsina.

Umurima munini uteyemo ibimera by'icyatsi bigiye bitondetse ku mirongo itambitse, bikaba bisasijwe n'ibindi byatsi byumye, uwo murima ukaba ukikijwe n'ibiti birebire.

Amavoka atatu asa neza y'icyatsi arasiweho n'izuba afashe ku giti, abiri yegeranye afatanye indi imwe iri inyuma yayo, inyuma yayo hari ibibabi by'igiti cya voka.

Umurima munini cyane uhinze, urimo ibimera bifite amababi agiye atandukanye y'icyatsi n'ay'umweru n'umuhondo, inyuma yawo hari ibiti byinshi byegeranye birebire by'icyatsi.

Insina ntoya ya ngufiya zegeranye zifite amakoma manini y'icyatsi, iruhande rwazo hari umuhanda, haruguru yazo gatoya hari urugo rwubakishije amabuye, inyuma yarwo hari ibiti.

Umurima munini, uhinzemo ibimera bitandukanye, harimo ibiti binini bifite amashami menshi, agiye ariho utubuto dutoya twinshi twegeranye dufite ibara ry'icyatsi, n'amababi y'icyatsi.

Umugabo wambaye ingofero n'imyenda y'umukara utagaragara neza, uhagaze hagati mu murima w'ibigori, inyuma y'umurima hakaba hari ishyamba, inyuma yaryo hakaba hari umusozi n'ikirere gisa umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira n'ipantaro, wicaye mu murima, uzitiwe n'imboga nyinshi, zifite amababi y'icyatsi, zeze imbuto zifite ibara ry'umuhondo, ibara rya oranje, n'ibara ry'icyatsi.

Abantu batanu bahagaze begeranye, harimo abagore batatu n'abasore babiri bateruye igiti mu ntoki, iruhande rwabo hari umurima munini cyane uhinzemo ibimera bitandukanye uteretsemo ibase iriho igitenge.

Umurima uhinzemo imyumbati, ukaba wegeranye n'undi murima munini urimo ibimera by'icyatsi, hirya yaho hakaba hari imisozi miremire iriho ibiti.

Ibiti byinshi birebire bitatanye, bifite amababi y'icyatsi n'amashami maremare, biri mu murima munini cyane uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye, ukaba urimo n'amabuye y'umweru.

Igiti kirekire gifite amababi y'icyatsi hasi hari ibindi byatsi bigufiya, iruhande rwabyo hari insina ndende zifite amakoma maremare y'icyatsi acagaguyemo.

Umurima uhinzemo ibihingwa bijyakoba birebire bifite amababi yicyatsi byitwa imyumbati. Iruhande rwaho hari undi murima urimo ibiti birebire, iruhande rwaho hari undi murima urimo ibyatsi.

Agakarito gafite ibara ry'umuhondo, ubururu, gashushanyijeho inka, intama, kandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, kegeranye n'agacupa k'umukara, kometseho igipapuro gapfundikije umufuniko w'umutuku.

Igikarito kirekire kinini cy'umweru, gishushanyijeho inka ifite ibara ry'umweru n'umukara, kiriho intama, kiriho ihene, iruhande rwacyo hateretse icupa ry'umukara ririho igipapuro cy'umweru.

Umugore usutse wambaye isarubeti y'ubururu bwijimye, inkweto z'umukara afite mu ntoki ibase y'ubururu bwerurutse irimo ibiryo by'inkoko, iruhande rwe hari inkoko nyinshi ziri gutoragura, harimo isake n'inkokokazi.

Igikarito kinini gifite ibara ry'umweru n'ubururu, gishushanyijeho inyamaswa: inka, ingurube, intama, imbwa; iruhande rwacyo hateretse agacupa gatoya karekare.

Agakarito k'umutuku n'umuhondo kandikishijweho inyuguti mu mabara y'umutuku n'umukara, kakaba gashushanyijeho inkoko y'umweru n'umutuku kariho inka ndetse n'ihene.

Amacupa maremare n'amagufi afite amabara atandukanye, hari afite ibara rya oranje n'umweru n'andi afite ibara ry'umutuku n'umweru ateretse ku meza, akaba agiye ashushanyijeho inyamaswa zitandukanye.

Etageri y'umweru itenzemo amacupa agiye atandukanye n'utujerekani, bifite amabara atandukanye, hari ifite amabara y'umuhondo, icyatsi, umweru na move.

Agacupa karekare gatoya k'umweru, gapfundikishije umufuniko w'ubururu, kometseho urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, umukara, icyatsi, kakaba gateretse ku meza.

Agacupa gatoya karekare k'umweru, gapfundikije umufuniko w'umutuku, kometseho igipapuro cy'umweru, cyandikishijeho ibara ry'umukara n'umutuku, kari mu kiganza cy'umuntu.

Icupa ry'umweru rinini ryometseho igipapuro gifite ibara ry'umukara, umutuku, n'umuhondo, imbere yaryo hari akandi gacupa gatoya gafite ibara ry'umukara, hariho igipapuro kinini.

Icupa ry'umweru, rifite imirongo y'imituku, ripfundikijwe n'umufuniko w'icyatsi, rigiye rifite amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, riri mu kiganza cy'umuntu, inyuma yaryo hari ibikarito.

Inyamaswa ntoya, ifite ibara ry'umweru, umukara. Ikagira amaso abiri n'amazuru n'umunwa, ihagaze ku gitambaro cy'ubururu, n'umupira w'imbeho, inyuma yayo hari igikuta

Inyoni ifite ibara rya kaki n'umukara n'umweru, ikagira ijisho ry'umukara n'umunwa w'umuhondo hariho n'akeru, ihagaze iruhande rw'ibiti.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite amasuka bunamye, bari guhinga mu murima munini urimo ibyatsi, urimo imyumbati, inyuma yawo hakaba hari urutoki runini n'ibiti birebire.

Umurima munini uhinzemo ibimera urimo umugore uhetse umwana ukenyeye igitenge ufite isuka uri guhinga, iruhande rwe hakaba hari umugabo wunamye na we ufite isuka uri guhinga, inyuma yabo hakaba hari umurima urimo ibiti birebire.

Abantu batatu abagabo babiri n'umukobwa umwe bari mu rutoki rurimo insina ndende zifite amakoma manini y'icyatsi, babiri bafite amasuka, undi umwe ahagaze inyuma nta suka afite.

Abantu benshi bari ku muhanda, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abagore n'abagabo, bafite amasuka n'ibitiyo, bamwe bari guhinga, abandi bahagaze, iruhande rwabo hari urutoki.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ikabutura, ufite isuka uhagaze mu murima, iruhande rwe hari inzira yegeranye n'ibyatsi, inyuma ye hari insina nyinshi ndende zifite amakoma manini.

umukobwa wambaye ingofero ifite amabara atatu: umuhondo, umukara n'ivu, wambaye ikote, ipantaro n'inkweto za bote, akaba afite agati mu ntoki ari kujomba mu murima.

Umurima munini uhinzemo ibimera bitandukanye, urimo ibiti birebire bigiye bifite amashami maremare n'amababi y'icyatsi, iruhande rwawo hahagaze abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, wunamye afashe ikamba, imbere ye hakaba hashinze uduti.

Umurima munini ugiye uteyemo amateke atatanye, harimo umukecuru wunamye uteze igitambaro ukenyeye igitenge, inyuma ye hari ibiti birebire byegeranye byakoze uruzitiro.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire byegeranye, bifite amashami menshi, imbere yabyo hari abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite amasuka bari kubagara mu muhanda.

Abagore babiri bunamye bari gukora mu murima urimo ibihingwa by'icyatsi bigufiya bitatanye, inyuma ya hari ibindi bihingwa birebire, birimo insina bifite amababi maremare.

Umurima munini urimo ibimera bitandukanye, urimo abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite amasuka bari guhinga, iruhande rwabo hari ibiti birebire byegeranye bifite amababi y'icyatsi.

Umugore uteze igitambaro cy'umutuku, wambaye umupira w'ubururu, ukenyeye igitenge, ufite isuka, uhagaze mu murima urimo ibigori, inyuma yawo hari ikibuga kinini gihinzemo ibyatsi, inyuma yacyo hari umusozi.

Umugore uteze igitambaro wambaye umupira wa orange n'ijipo y'ubururu wunamye ari gukora mu murima, iruhande rwawo hari ibiti birebire, inyuma yabyo hari undi murima urimo insina.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo abagabo, abagore n'abana bafite amasuka bari guhinga umurima, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu batanu, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abagabo babiri n'abagore batatu bafite amasuka bari guhinga iruhande rwabo; hari insina zifite amakoma maremare y'icyatsi.

Abantu bane bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abagabo batatu n'umugore umwe, babiri muri bo bambaye ingofero. Bahagaze mu murima w'ibigori byeze, bifite amababi y'icyatsi yatangiye kuma.

Abantu babiri bari mu murima bambaye imyenda y'amabara atandukanye bafite amasuka mu ntoki bari guhinga, mu murima hakaba harimo ibigori, inyuma yabyo hakaba hari ibiti birebire.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abagore n'abagabo bafite amasuka bahagaze mu murima urimo ibihingwa bitandukanye, umukobwa w'imbere akaba yambaye ingofero, umupira n'ipantaro.

Umugabo wambaye umupira n'ipantaro, wunamye mu murima munini cyane, urimo ibyatsi bisasiye ibimera by'icyatsi, inyuma yawo hari ibiti birebire n'umusozi.

Umurima munini urimo ibimera by'amoko atandukanye harimo ibyatsi bifite amababi y'icyatsi, bikagira indabo z'umweru byegeranye n'ibiti birebire bifite amashami menshi.

Umurima munini urimo igitaka giteyemo ibihingwa by'icyatsi, bifite uturabo tw'umweru, hahagaze umuntu hagati, yegeranye n'ikiyaga kegeranye n'ishyamba n'imisozi.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi byegeranye, hagati hakaba hahagazemo umuntu, inyuma y'uwo murima hakaba hari umusozi uriho ibiti n'amazu, hejuru yawo hakaba hari ikirere cy'ubururu n'umweru.

Abantu babiri bari mu murima munini urimo ibyatsi byinshi, umwe ahagaze undi yunamye, iruhande rwabo hari ipoto, inyuma ya bo hari abandi bantu ndetse n'ibiti.

Abantu batatu bari mu cyumba gitenzemo imifuka, umwe wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero, akaba yunamye afashe ku mufuka, undi wambaye umupira w'umutuku n'ijipo akaba ahagaze.

Imifuka y'umweru ifite ibara ry'ivu ku mpande, irimo ibinyampeke byinshi bigiye bifite amabara asa, ikaba itondetse ku murongo hagati yayo hagiye hanyuramo akanya gato gatoya.

Icyumba kinini gisize irange ry'umweru, gitenzemo imifuka myinshi y'umweru itondetse neza ku murongo, iruhande rwayo hahagaze abantu batatu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye.

Inzu yubakishije ibyondo, ifite idirishya risize irangi ry'umukara, inyuma yayo hari umurima w'ibigori, inyuma y'umurima hari ishyamba, imbere yawo hari abagore benshi bicaye n'abunamye, bambaye ibitenge.

Abantu benshi cyane begeranye, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, begereye inzu yubakishije amatafari, imbaho, ifite amadirishya asize irangi ry'umuhondo, imbere yabo hari ibitoki byinshi.

Inzu nini yubakishije ibiti, isakaje amabati, irimo sima, itenzemo imifuka myinshi, ifite ibara ry'umweru, icyatsi, umuhondo, ubururu, itenze neza ku mirongo, iteretse ku tuntu tw'ubururu.

Umusozi muremure, uriho ibiti byinshi bigiye bitandukanye, imbere yawo hari amazu asakaje amabati, imbere yayo hari imodoka nini ipakiyemo ibintu byinshi, iruhande rwayo hari ibitoki n'umuntu.

Imifuka y'umweru n'iy'umukara irimo ibyondo biteyemo ibiti bitoya by'amavoka, inyuma yabyo hakaba hari ibindi biti byakoze n'ikirere gisa ubururu.

Ishyamba rinini rifite ibiti byinshi byegeranye, ibirebire n'ibigufiya bigiye bifite amashami menshi afite amababi afite amabara atandukanye, harimo icyatsi, umuhondo n'ayagiye atangira kuma.

Akarima k'igikoni kubakishije imifuka y'umweru, gateyemo imboga zitarakura neza, inyuma yako hari igiti cya avoka gishamitse, gifite amababi y'icyatsi inyuma yacyo hari inzu.

Ikirere gifite ibara ry'ubururu, umweru na oranje, imbere yacyo hari igiti kirekire gifite amashami menshi n'amababi y'icyatsi, iruhande rwacyo hari umurima munini uhinze urimo ibigori byumye.

Inzu nini yubakishije amatafari, isakaje amabati y'umutuku, ikagira amadirishya asize irangi ry'umukara, imbere yayo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi, cyamezemo ibiti birebire bifite amashami menshi arasiweho n'izuba.

Insina bakataguyemo uduce twinshi iruhande rwayo hari amakoma menshi y'icyatsi akataguye inyuma yayo hari umurima munini urimo ibimera bigiye bitandukanye bigufiya bifite ibibabi by'icyatsi.

Umurima uteyemo insina, zikaba zigiye zifite amakoma, yegeranye agerekeranyije. Muri uwo murima hakaba hanateyemo, ibindi bihingwa by'ubundi bwoko, nk'imyumbati.

Umurima munini cyane urimo ibiti byinshi birebire bigiye bifite amashami menshi byegeranye, biriho amababi y'icyatsi, hasi hari ikibuga kinini cyamezeho ibyatsi by'amoko atandukanye.

Ibyatsi byinshi byegeranye byakuze mu kavuyo bifatanye, bigiye birimo ibigufiya n'ibiti birebire, inyuma yaho ikirere kigaragara kirimo urumuri rwinshi.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi by'amoko atandukanye byegeranye, bigiye bifite ibibabi by'amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo n'ibyatangiye kuma bifite n'amashami maremare.

Igiti kinini gifite amashami menshi, gifite amababi y'icyatsi, munsi yacyo hari umurima urimo ibyatsi byinshi, inyuma yabyo hari inzu isakaje amategura.

Ibiti birebire byegeranye, bifite amashami menshi, bikagira amababi y'ubururu n'icyatsi, munsi yabyo hari inzu yubakishije amatafari, ifite amadirishya asize irangi ry'umukara, ikaba isakaje amabati y'umutuku.

Umurima munini waguyeho ibiti byinshi n'amashami biruma ugiye urimo ibyatsi bitandukanye, iruhande rwawo hari igiti kirekire gifite udushami twinshi n'agati gatoya gafite uturabo tw'umuhondo.

Ibiti byinshi bigiye bitandukanye birebire bifite amashami menshi, hasi hagiye hari ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye, n'ibindi biti byumye byahaguye, iruhande rwaho hari ibirundo byinshi by'igitaka.

Udushashi tw'umukara twinshi dutenze ku mirongo turimo igitaka giteyemo uduti tureture dufite ibibabi bitoya bifite ibara ry'icyatsi umuhondo n'ibindi byatangiye kuma duteretse ku butaka.

Imboga nyinshi z'amoko atandukanye, ziri mu kintu cyubakishije imbaho n'imisumari n'ibiti, iruhande rwacyo hateretse ibase y'ubururu irimo karoti, iruhande rwacyo hari umufuka ubonerana urimo imboga z'icyatsi.

Ikirundo cya karoti nyinshi zifite ibara rya oranje, imisozo yazo ari icyatsi, zisutse kuri shitingi y'umukara, hejuru yazo hateretse ibase y'icyatsi.

Umurima munini urimo amabuye, utemo ibyatsi by'amoko atandukanye, urimo igiti gifite imizi minini ibyibushye, iruhande rwayo hari indabo zifite ibara ry'umweru, zikagira amababi y'icyatsi.

Abantu bahagaze, imbere yabo hari ibihaza n'ibijumba, inyuma yabo hari amabase arimo ifu, iruhande rwabo hicaye umugore.

Umurima uhinzemo imboga, z'intoryi, zifite amashami menshi agiye atandukanye, zikagira ibibabi binini by'icyatsi, zezeho imbuto zifite ibara ry'icyatsi, umweru n'umutuku.

Umugabo uri gutambuka iruhande rwe hicaye abagore bakenyeye ibitenge bafite amabase arimo imbuto zitandukanye, iruhande rwayo hari igishashi cyanditseho n'ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Umugabo wambaye umupira, ipantaro n'inkweto z'umukara, uteruye ibyatsi byumye, uhagaze mu murima w'ibigori n'inyanya zisasije ibyatsi byumye, iruhande rw'umurima hari ishyamba.

Ibiti byinshi byegeranye bifite amababi menshi n'amashami maremare, iruhande rwabyo hari indabo nyinshi zifite amabara atandukanye, imbere y'aho hari ibiganza biteruye ibitunguru bifite ibara ry'umutuku.

Umurima munini urimo uduti tureture tugiye dufite udushami twinshi, hariho n'ibibabi by'icyatsi binini, hakaba hagiye hariho n'imbuto zagiye zera kuri utwo duti.

Inzu yubakishije ibyondo n'imbaho, idafite umuryango, imbere yaho hari akarima k'igikoni gateyemo imboga nyinshi zitandukanye zegeranye, iruhande rwazo hari imiyenzi myinshi ikoze urugo.

Umurima uteyemo intoryi z'umweru, zikaba zisasiye, iruhande rwawo, hakaba hari ibiti biteye mu wundi murima, kure yawo gatoya hakaba hari ishyamba n'ikirere.

Udushashi tw'umukara turimo ibyondo n'ibimera by'icyatsi bitoya, tugiye dutondekanyije ku murongo, twubakiwe n'ibiti, hari n'abantu batatu bunamye bagiye bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitoya binanutse bifite udushami dutoya bikagira amababi y'icyatsi, hasi hakaba hari ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye, iruhande rwabyo hakaba hari umurima uhinze uteretsemo imifuka y'amabara atandukanye.

Inzu nini yubakishije amatafari, iteye umucanga, isakaje amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, gateyemo ibiti birebire byegeranye.

Imbuto zifite amabara atandukanye, z'ubwoko butandukanye ziri ku nkoko ziteretse ku gitambaro cy'umweru n'ubururu, iruhande rwazo hateretse isahani ifite ibara ry'umukara.

Igiti kinini kirekire gifite amababi y'icyatsi n'aya oranje, iruhande rwacyo hari umurima w'akanyatsi, imbere yacyo hari ibyatsi bifite indabo za oranje n'amababi y'icyatsi ku ruhande gato hari amababi maremare y'icyatsi afite ibara ry'umweru ku mpande.

Umurima urimo indabo zifite ibara ry'umuhondo, icyatsi n'akeru gakeya, inyuma yazo hari igiti giteye mu byatsi, inyuma yabyo hari umurima urimo ibihingwa.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umuhondo, kirimo ameza afite irangi ry'ubururu, yandikishijeho ibara ry'umuhondo n'umweru, riteretseho imineke myinshi ifite ibara ry'umuhondo.

Ameza akozwe mu mbaho, arambuyeho igitambaro cy'umweru giteretseho inkoko iriho imineke ihiye neza isa umuhondo, iruhande rwayo hakaba hateretse avoka.

Inyamaswa z'ubwoko butandukanye zifite amabara menshi zegereye ikirundo cy'ibyatsi, inyuma yazo hari inzu ifite umuryango ukoze mu mbaho yegereye ikiraro gikoze mu biti.

Abantu bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri bahagaze mu murima w'amatunda, umugore umwe n'umugabo umwe bakaba bateruye ibase irimo amatunda, abandi babiri bahagaze ku ruhande bayafite mu ntoki.

Ikibuga gitoya kirimo akanyatsi k'icyatsi kizengurutswe n'indabo zifatanye zakoze uruzitiro zifite ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi, ibara ry'umweru, hagati mu kanyatsi hateyemo igiti cy'icyatsi.

Imbuto z'icyatsi zifite uduti zirambitse ku gitambaro cy'umweru gifite uturabo dufite ibara ry'umuhondo, umutuku, umukara, tugiye duciyemo umurongo utambitse.

Igiti kirekire gifite amashami menshi, amababi y'umuhondo n'icyatsi, munsi yacyo hari ikibuga kirimo akayatsi cyegeranye n'indabo zifite ibara ry'icyatsi, inyuma yazo hari ibiti byinshi.

Igiti kigufiya gifite udushami twinshi, gifite amababi y'icyatsi, cyezeho imbuto nini zibyibushye zifite ibara ry'icyatsi, iry'umuhondo; munsi yacyo hari ibyatsi byumye bifite ibara rya kaki.

Inzu ntoya yubakishije ibyondo, isakaje amabati, imbere yayo hari akarima k'igikoni gateyemo karoti na dodo, inyuma yako hari urutoki rurerure rufite insina nyinshi.

Umurima munini uhinze urimo ibimera byinshi bigiye bitandukanye bifite amababi maremare manini y'icyatsi, iruhande rwawo hari umuferege wagiye umeramo utundi twatsi dutoya dufite ibibabi bitoya.

Isoko ririmo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, harimo inyanya zifite ibara ry'umutuku, hakazamo izindi mbuto z'utuzeru zifite ibara ry'icyatsi, ziri mu mifuka ifite amabara atandukanye.

Ubutaka bunini bwaguyeho amababi n'uduti twinshi byumye, iruhande rwabyo hari agati karekare gafite amashami menshi n'amababi manini y'icyatsi, amashami yarezeho imbuto zifite ibara ry'umweru n'umutuku n'umuhondo.

Inzu isakaje amabati ifite idirishya risize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari umurima ushingiriyemo ibishyimbo, uteyemo igiti kirekire, imbere yawo hari umuhanda uhagazemo abagabo benshi.

Inzu nini yubakishije amatafari, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari urugo ruzengurutse rwubakishije ibyondo n'umucanga, rurimo akarima k'igikoni kazengurutswe n'imifuka gateyemo imboga.

Imiteja miremire inanutse myinshi irundiye mu kabase k'icyatsi inyuma yaho hari karoti n'ubundi bwoko bw'imboga z'icyatsi byegeranye n'akabase k'ubururu iruhande rwaho hari ubundi bwoko bw'imbuto z'icyatsi.

Ibiti byinshi byegeranye bifite ibara ry'icyatsi, imbere yabyo hari indabo nyinshi zifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umweru, imbere yazo hari ikibuga kinini cyamezemo akanyatsi.

Akarima k'igikoni kubakishije imifuka y'umweru, karimo imboga zigiye zitandukanye nk'igitabi na dodo, iruhande rwako hari umurima uteyemo ibindi bihingwa, iruhande rwawo hari urutoki.

Icyumba gitoya gifunganye kirimo ibintu byinshi, kiriho ameza ariho ubwoko bwinshi bw'biribwa, inyanya, ibitunguru, hateretseho igikarito gifite ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari ijage y'umuhondo.

Umukecuru uteze igitambaro, uhagaze mu murima, imbere hakaba hari akarima k'igikoni gateyemo imboga, inyuma ye hakaba hari ibigori.

Amavoka cumi natandatu, afite ibara ry'icyatsi, atondetse neza kumirongo. Mu gakarito gafunguye kagiye gafite imyenge, kumpande zako

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi bigiye bitatanye by'icyatsi, imbere yawo hari umurima munini, uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye byeze imbuto zifite ibara ry'icyatsi na oranje.

Inzu yubatse irimo sima, igikuta cyayo gisize irange ry'icyatsi,; hasutse inyanya, karoti, ibitunguru bifite ibara ry'umweru n'umutuku, iruhande rwabyo hari n'ibindi bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima munini uhinze urimo ibiti imbere yawo hari undi murima munini uhinzemo inyanya zishingiriye n'uduti twinshi harimo abana babiri n'umugabo umwe bari gusoroma izo mbuto zeze.

Amakaro y'umweru, agiye aririmo udutiyo, inyuma yaho hakaba hari ibiti byegeranye, bifite amababi y'icyatsi, bigufiya, inyuma yabyo hakaba hari igiti kirekire, gifite amababi y'icyatsi, agiye atandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, umupira wa oranje, ipantaro y'umukara ihinnye ku maguru, akaba nta nkweto yambaye, afite rozwari mu intoki, ari kuvomerera ibigori.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ubururu ihinnye hasi, ufite amatiyo abiri ari kuvamo amazi, uhagaze mu murima w'amashu ayavomerera, iruhande rwe hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Umugore uteze igitambaro wambaye agapira k'umweru, akenyeye isharupe y'umweru n'umutuku, yambaye ijipo y'ubururu, afite itiyo ry'umukara mu ntoki riri kuvamo amazi, ayashyira mu murima w'ibigori.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ufite itiyo ry'umukara mu ntoki uhagaze mu murima w'imboga, inyuma ye hakaba hari undi murima urimo igiti urimo n'ibindi byatsi.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, ufite itiyo mu ntoki iri kuvamo amazi uhagaze mu murima munini uhinzemo imboga zisasije ibyatsi byumye, iruhande rwazo hari insina ndende.

Umurima munini cyane, uteyemo ibimera by'amoko atandukanye, urimo igiti kirekire gifite amashami menshi n'ibibabi by'icyatsi, harimo umugore uteze igitambaro, wifubitse isharupe, ukenyeye igitambaro, ufite rozwari irimo amazi.

Umugore uteze igitambaro wambaye umupira, ukenye n'igitenge uri guseka ufashe itiyo y'icyatsi mu ntoki iri kuvamo amazi, akaba ahagaze mu murima w'amashu ari kuyavomerera.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu na bodaboda, wunamye, ufite ibyatsi mu ntoki ari kugenda asasira umurima uhinzemo amashu, inyuma ye hari urutoki.

Ibiti byinshi bigiye bitandukanye bifite amashami menshi n'amababi matoya y'icyatsi byegeranye n'inzu nyinshi zisakaje amabati imbere yazo hari umurima munini urimo ibyatsi byumye imbere yabyo hari abantu batwaye amajerekani n'undi uri kuvoma.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye bari gukora mu murima urimo ibyatsi bigufiya n'ibirebire, bafite amasuka bamwe bunamye bari guhinga, abandi bahagaze.

Igicucu kinini cy'igiti gifite amababi menshi n'amashami menshi, kiri mu murima munini w'akanyatsi wegeranye n'ibiti birebire by'icyatsi, inyuma yabyo hakaba hari amazu menshi.

Inzu nyinshi zegeranye, zubakishije amatafari asize irangi, zisakaje amabati y'umutuku, iruhande rwazo hari umuhanda, haruguru yaho hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi giteyemo ibiti.

Umurima munini uhinze urimo ibimera byinshi bigiye bitandukanye bifite ibibabi by'icyatsi, ibya move, iruhande rwaho hari ikibuga kinini kirimo akayatsi, inyuma yako hari ibiti birebire.

Ikibuga kinini kirimo akanyatsi, iruhande rwacyo hari ibiti birebire byinshi byegeranye bifite amababi y'icyatsi, iruhande rwabyo hari imodoka y'umweru hirya gatoya hari inzu nini isakaje amabati y'umukara.

Ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru, kigaragaramo ibiti birebire byegeranye n'ibitandukanye, imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, kegeranye n'umuhanda.

Inzu ebyiri zubakishije amatafari zisakaje amabati, imbere yazo hari urutoki imbere y'urutoki hari umurima uhinzemo ibimera inyuma y'izo nzu hakaba hari umusozi uriho amashyamba agiye yegeranye.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye by'icyatsi, birimo imiferege myinshi irimo amazi, iruhande rwayo hahagaze umukobwa ukenyeye umupira wambaye ipantaro n'inkweto zifunguye.

Umurima munini urimo igiti munsi yacyo hahagaze abantu, iruhande rwabo hari abandi bantu bahagaze, abandi bunamye bafite amasuka bari guhinga, iruhande rw'umurima hakaba hari urutoki runini.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi byegeranye birebire bifite amashami menshi, imbere yabyo hari umurima munini cyane urimo ibyatsi byinshi bitandukanye, iruhande rwawo hari umuferege munini urimo amazi.

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi byegeranye by'icyatsi, iruhande rwawo hari inzu yubakishije amatafari isakaje amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari umurima munini uhinze.

Abagabo bahagaze mu muhanda, inyuma yabo hari imodoka, imbere yaho hicaye abagabo babiri, imbere yabo hari umugore wunamye uri kuvoma amazi mu ruzi.

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi bitandukanye n'ibyegeranye bifite amashami maremare, Imbere yawo hari umurima munini cyane ugiye ugabuyemo uduce wezemo ibimera by'icyatsi.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi, kirimo utuzu twinshi twegeranye tw'ubururu, inyuma yatwo hari umurima munini urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibiti birebire bigiye bitatanye bifite amashami menshi.

Ihene ebyiri zifite amabara atandukanye, imwe ifite ibara ry'umukara na kaki, indi ifite ibara rya kaki yegamiye igikuta, hasi hari akanyatsi. Zikaba ziziritse ku biziriko.

Akanyamaswa gatoya gafite amaguru ane, amatwi abiri maremare, umunwa, karyamye ku mbaho zanduye ziriho icyondo cyinshi, iruhande rwako hari ikijerekani cy'umuhondo kirimo amazi.

Umugore wambaye ingofero wifubitse igitenge, inyuma ye hubatse ikiraro cyubakishije ibiti, gifatanye n'inzu yubakishije ibyondo, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ingofero, ishati, umupira n'ipantaro, afashe ikiziriko mu ntoki.

Ingurube y'umweru yegereye igiti, iri mu kiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, hasi hakaba hari icyondo kimennyemo amazi.

Igikuta giteye umucanga, cyegeranye n'inkoko ebyiri, imwe inkokokazi indi isake, zifite amabara y'umukara, umweru, umutuku, igitaka, zikaba zifite amaguru abiri.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara, inkweto z'umukara, ateruye inkoko zifite amabara y'umweru n'umutuku mu maboko yombi, iruhande rwe hari izindi nkoko nyinshi hasi n'utudobo tw'umweru dufite ibara ry'umutuku.

Ikijerekani cy'umuhondo kiri hasi, iruhande rwacyo hari ingurube nini iryamye yegeranye n'utundi tugurube dutoya twinshi duhagaze, n'utundi tubiri tuyitaruyeho gakeya.

Inyamaswa zegeranye ziri ahantu hafunganye, zifite amabara atandukanye umukara, umweru, umuhondo, ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma hasi hari sima.

Ikiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, izirikishije imigozi, kirimo inka ifite ibara rya kaki, n'umweru, imbere yayo hahagaze umwana wambaye umupira w'umutuku.

Inka y'umukara iri kurya ibyatsi, ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, iruhande rwaho hakaba hari akazu kubakishije amatafari, hari n'umuntu uhahagaze.

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi byegeranye, imbere yawo hari abantu benshi bahagaze, bambaye imyenda y'amabara atandukanye bahagaze ku ruziga hagati yabo hari ihene zifite amabara y'umukara, umweru ndetse na kaki.

Umugabo wunamye wambaye ingofero, ishati, ipantaro n'inkweto uri gukora ku nka ifite ibara ry'umweru n'umukara, ikaba iri mu kiraro cyubakishije imbaho n'ibiti gisakaje amabati.

Inyamaswa nini n'intoya, bifite amabara y'umukara n'igitaka, iruhande rwabo hari akanyatsi kenshi, inyuma yazo hari umurima munini urimo urutoki, iruhande rwarwo hari ibyatsi n'ibiti birebire.

Inzu iteye umucanga yegeranye n'umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo n'insina, n'ibishyimbo, imbere yawo hari indabo nyinshi ndende zifite ibara ry'umuhondo, imbere yazo hari umubyeyi n'umwana.

Umurima munini urimo ibiti byagiye byuma, iruhande rwawo hateretse amabuye agiye agerekeranyije, iruhande rwawo hari insina ndende ifite amakoma amanuka akajya hasi yegeranye n'akanyamaswa gatoya k'umweru.

Abantu bane harimo abagabo batatu n'umugore umwe, bateruye inkwavu mu ntoki, bari mu nzu yubakishije imbaho, hasi ari igitaka umugabo w'imbere akaba yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ateruye inkwavu ebyiri.

Umufuka w'umweru wegeranye na etajeri ikoze mu mbaho irambitse hasi, hagati harimo udushwi tw'umweru n'umukara, iruhande rw'aho hari inkoko nini ifite ibara ry'umukara.

Inka ifite amabara y'umukara n'umweru, ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti n'icyondo, hakaba hari n'ibyatsi hasi muri icyo kiraro.

Abantu babiri, umwana w'umukobwa mutoya, n'umugore mukuru, bari kugaburira ibyatsiye amatungo. Iruhande rw'ikiraro cyubakishije ibiti, iruhande rwaho hari ibyatsi birebire.

Umukingo muremure wegeranye n'ikiraro cyubakishije ibiti, imbaho n'imisumari, kirimo ibyatsi byinshi byumye, iruhande rwacyo hari ihene iziritse ifite ibara ry'umukara n'umweru.

Inzu yubakishije ibyondo, iruhande rwayo hari ikiraro, cyubakishije imbaho, ibiti n'imisumari, gisakaje amabati, imbere yacyo hari ihene ebyiri, zifite amabara atandukanye ziziritse ku biti.

Inka zifite amabara y'umukara n'umweru, ziri mu kiraro gisasiyemo ibyatsi, inyuma yacyo hari inkoko zifite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwazo hakaba hari utujerekani, ak'umuhondo n'akajya kuba umweru.

Inka eshatu zifite amabara ay'umukara n'umweru, ziri mu kibuga kinini gifite ibyatsi byinshi, imwe ikaba iri inyuma itagaragara neza, iri hagati ikaba iri kurisha, iy'imbere ihagaze.

Abagabo batatu bahagaze babiri bafashe inka imwe ifite ibara ry'umukara n'umweru indi ifite ibara rya kaki inyuma yaho hari izindi nka zifite ibara ry'umweru n'umukara iruhande rwazo hari imodoka.

Icyumba gitoya kirimo ibyondo kirimo n'ibyatsi byinshi byumye, gifite igikuta gisinze irangi ry'umweru, mu icyo cyumba harimo utunyamaswa tubiri dusa dufite amatwi maremare n'amaguru ane.

Amashashi menshi y'umukara arimo icyondo atenze neza kurongo, akaba afumbiyemo uduti tujya kuba tureture dufite amababi y'icyatsi, ay'umuhondo n'amababi yatangiye kuma.

Inzu nini ndende yubakishije amatafari, isize irangi ry'ivu, inyuma yayo hari ibiti byinshi cyane birebire byegeranye bifite amababi y'icyatsi, iruhande rwayo hari umurima munini cyane uhinzemo ibigori.

Umurima munini cyane, uhinze urimo ibigori byumye, hasi hariho ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye, iruhande rwawo hari umuhanda ukoze neza, iruhande rwawo hari ibiti birebire.

Umugabo wunamye wambaye ingofero, wambaye umupira w'umuhondo n'ijire ya kaki, ipantaro y'umukara akaba ari gukurura ibishyimbo abikura mu murima bifite amababi y'icyatsi n'ay'umuhondo.

Ibishyimbo byinshi birundiye ahantu hamwe by'ubwoko bubiri, bimwe bifite ibara ryiganjemo umweru n'akamove gake, ibindi bifite ibara ryinshi rya move n'akeru gake.

Ibyatsi byinshi byegeranye, bifite amababi y'icyatsi, n'uruturi rujya kuba umweru, inyuma yabyo hari ibindi byatsi birebire bibisumba na byo by'icyatsi.

Umurima munini urimo ibyatsi by'amoko atandukanye byegeranye bizirikanyije, bigiye bifite amababi manini y'ubururu, ay'icyatsi, indabo nyinshi z'umutuku ndetse n'uduti tureture.

Urutoki runini, rufite insina ndende zegeranye, zifite amakoma y'icyatsi n'ayagiye atangira kuma, imbere yazo hari umurima munini w'amashu, uhagazemo umusore wambaye umupira w'umutuku, uteruye ibase irimo amashu.

Umugezi muremure urimo amazi y'igitaka, wegeranye n'ibyatsi byinshi birebire bifite amababi y'icyatsi agenda akora muri uwo mugezi, iruhande rwawo hari ibindi byatsi byinshi byegeranye.

Umurima munini cyane urimo ibiti bifite amashami menshi, ukaba urimo utwobo twinshi tugiye ducukuye ku mirongo, iruhande rwatwo hagiye hari ibyatsi bigufiya ariko bigiye bifite ibibabi birebire.

Igikuta cyubakishije amatafari gisize sima, imbere yacyo hari umurima mutoya uhinzemo ibimera bitandukanye, bifite amababi y'icyatsi byeze imbuto, izo mbuto zifashweho n'ikiganza.

Umurima uhinze urimo amateke agiye atatanye, inyuma yawo hakaba hari umurima urimo ibyatsi birebire byumye, iruhande rwabyo hari ibiti by'icyatsi birebire.

Umurima munini uhinze, uteyemo ibimera bitandukanye, iruhande rwawo hari igiti kirekire gifite amababi menshi y'icyatsi, imbere yacyo hari uruzi rurimo amazi, iruhande rwarwo hari akanyatsi.

Agati gatoya karekare gafite ibara rya kaki, kegeranye n'ibyatsi byinshi bigapfukiranye, imbere yako hari umurima munini uhinzemo ibijumba, imigozi yabyo ifite amababi y'icyatsi manini.

Umurima munini uteyemo imboga, usasije ibyatsi byumye, urimo ibiti bitoya, bigufiya, bifite amashami menshi, bikagira amababi manini y'icyatsi, byezeho imbuto zifite ibara ry'umweru.

Umurima uteyemo ibimera by'icyatsi, biteye ku mirongo itambitse, bikaba bisasijwe n'ibindi byatsi byumye, hakaba hari n'ibiti bishinze bihagaze, bikaba bisakajwe ibyatsi byumye hejuru y'uwo murima.

Icyumba kinini kirimo ibintu byinshi byegeranye, kirimo umusore uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'ishati, afashe ku cyuma kimwe gifite utudomo tw'umutuku, icyatsi n'umukara.

Abagabo babiri umwe ahagaze yambaye ikote, ipantaro, inkweto z'umuhondo, afashe ku nka, undi wicaye wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara na we afashe ku nka ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Inka ebyiri zifite amabara y'umukara n'umweru, ziri mu kanyatsi, inyuma yazo hari umugabo wambaye igisarubete cy'ubururu na bote z'umweru, uhagaze mu muhanda, ufite igitaka cy'ibara ry'umweru.

Ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru, imbere yacyo hari umusozi muremure, imbere yawo hari igiti kirekire gifite amashami manini, gifite amababi y'icyatsi n'umutuku, imbere yacyo hari umurima munini urimo ibyatsi bitandukanye.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu, ateruye igikombe cy'umweru mu ntoki, imbere ye hari etajeri ikoze mu mbaho iriho ibikarito, amacupa y'amabara atandukanye, inyuma ye hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru.

Ikibuga kinini kirimo utubuye n'igitaka n'umucanga, gihagazeho abana batatu bafite ikintu mu ntoki baryamishije itungo hasi umwe aryicayeho rifite amabara y'umweru n'igitaka.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitoya binanutse birebire bifite amashami agiye atandukanye, ririmo abagabo benshi n'abana bafite inka ifite ibara ry'umukara n'umweru, ifashwe n'umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu.

Akanyamaswa gafite amaguru ane, umurizo ni ibara ry'umweru n'umukara n'amaso manini, karyamye hasi ku byatsi byumye, iruhande rwako hari igikuta gisize icyondo.

Ikiraro cyubakishije ibiti n'imbaho kirimo inka zifite amabara atandukanye, harimo inka ifite ibara ry'umukara n'ifite ibara ry'igitaka, inatoboye ifite iherena ry'umuhondo.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati y'umutuku, yegeranye n'ibiti birebire biyipfukiranye, bifite amashami menshi n'amababi y'icyatsi, iruhande rwayo hari umurima w'ibigori, imbere yawo hahagaze abantu bafite inka.

Inyamaswa eshatu ziryamye mu kanyatsi kegereye igiti kirekire, cyegamiweho n'umugabo wambaye ingofero, ikote, ishati n'ipantaro ufite inkoni mu ntoki.

Abantu babiri, umwe wambaye igisarubeti cy'ubururu, undi wambaye agapira k'icyatsi n'umuhondo n'ipantaro y'umukara, bafashe inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, ikaba ihagaze ku byatsi birimo amakoma.

Inka y'umweru n'umukara iziritse ku giti ifashwe n'abagabo babiri, umwe yambaye ikote rya kaki, ipantaro y'umukara n'inkweto, undi yambaye imyenda y'umukara, n'undi uri ku ruhande uhagaze abareba.

Urutoki runini rufite insina ndende zifite amakoma y'icyatsi, imbere yarwo hari inzu yubakishije ibiti, hari abantu babiri bahagaze umwe wambaye isarubeti y'ubururu bose bafashe ihene.

Abagabo babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye igisarubeti cy'ubururu undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara bafashe inka ifite ibara ry'umukara iryamye hasi ku byatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru uri gukora ku nka, hasi hari ibyatsi byinshi byumye, iruhande rwabo hari igikuta cyubakishije imbaho n'ibiti gisakaje amabati.

Inka nyinshi zifite amabara atandukanye iz'umweru, umukara, ikijuju, ziri mu kibuga kinini kirimo icyo ibyondo cyinshi, iruhande rwacyo hari urugo rurerure rwubakishije amabuye n'ibiti.

Umugore uteze igitambaro cy'ubururu, wambaye umupira w'umukara imbere ye hari inka ifite amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari igiti cy'umwembe gifite amababi y'icyatsi, hariho n'imyembe y'ibitumbwe itarera.

Inka nyinshi zifite amabara atandukanye ziri mu ruzitiro rugizwe n'ibiti, iruhande rwazo hari abagabo batatu babiri bafite inkoni, iruhande rwabo hakaba hari urundi ruzitiro rugizwe n'ibyatsi n'ibiti.

Inyoni ngufiya ifite amabara y'umuhondo, icyatsi, umutuku, umukara ikaba ifite umurizo, iri ku giti gifite amashami menshi agiye ariho ibibabi by'icyatsi.

Amazu yubakishije amatafari, yegeranye n'urugo rufite umuryango w'umutuku, ukaba wegeranye n'amabuye ari mu byatsi, iruhande rwawo hari umuhanda.

Inyoni nziza ntoya ifite amaguru abiri, ikagira umunwa muremure, ifite ibara ry'umukara, icyatsi, umutuku, umweru n'ubururu, ihagaze ku turabo, tureture, dufite ibara ry'umutuku n'icyatsi.

Inzu isize irangi ry'umweru yicaweho n'utunyamaswa tubiri, agatoya n'akanini, bifite amaguru n'amaboko n'imirizo miremire byegeranye n'ibyatsi bifite uturabo tw'umutuku.

Inyoni nziza ifite amabara y'ubururu n'umukara n'umunwa w'umuhondo, ikaba ihagaze ku gashami k'igiti, igiti gifite amababi y'icyatsi n'umuhondo.

Inyoni nziza ifite umunwa mutoya, ifite ibara ry'umukara, umweru, umuhondo, amaguru y'umutuku n'umurizo, ihagaze ku giti gifite amashami menshi, inyuma yacyo hari ishyamba.

Inyamaswa y'umukara ifite amaguru ane n'umurizo, ikaba ifite amatwi maremare, ifite n'amahembe abiri ku mutwe, ihagaze mu muhanda ukikijwe n'ibyatsi birebire.

Inyoni ifite umunwa muremure ikagira amabara y'icyatsi, umukara, umweru n'umutuku, ikaba ihagaze ku gati k'ururabo, rufite amabara icyatsi, umutuku n'umuhondo.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire bifite amashami menshi, amababi y'icyatsi, imbere yaryo hari umuhanda urimo kaburimbo ufite igipangu kinini kiriho ibara ry'icyatsi.

Inyoni ebyiri zihagaze ku gati zirebana, zifite amabara y'ubururu, ibara ry'umweru, umunwa w'umuhondo n'umutuku, inyuma yazo hakaba hari ibyatsi.

Inyamaswa eshatu zegeranye zifite amaguru abiri n'amaboko abiri n'amatwi, zifite ubwoya bwinshi zicaye ku giti, iruhande rwazo zizitiwe n'ibiti birebire byinshi bifite amashami menshi.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara, ifite amaguru ane, amahembe abiri, amatwi abiri n'amaso y'umukara iri ahantu mu kigunda kirimo ibyatsi byinshi byegeranye, iruhande rwabyo hari igiti.

Inzu nini ndende yubakishije amatafari isize umucanga, imbere yaho hari ibyatsi byinshi n'amababi yaguye hasi byumye, iruhande rwayo hari igiti kirekire kiriho akanyamaswa gatoya k'umukara gafite umurizo muremure.

Akanyamaswa gafite ubwoya bwinshi bufite amabara y'umukara n'umweru, gafite amaso manini arimo utudomo tw'umukara, kakaba kari imbere y'ibiti by'icyatsi.

Igikeri gifite amabara y'umuhondo, icyatsi, kikagira amaso manini arimo akantu k'umukara, kiryamye ku ishami ry'igiti, inyuma yacyo hari ikibabi cy'icyatsi n'imbere yacyo.

Akanyamaswa gatoya gafite amaso manini abiri, amatwi abiri, gafite ibara ry'umweru n'iry'ivu, gahagaze ku giti gifite urubobi rw'umweru n'icyatsi kazengurutswe n'amababi menshi y'icyatsi.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka ifite ibara ry'umweru n'umukara, ihagaze ku giti ifite amaguru abiri, umurizo n'umunwa mugufiya, iri mu kirere gifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Inyoni nziza ifite amabara y'umutuku, umukara, umuhondo, icyatsi, ifite amaguru abiri, ijisho ry'umukara n'umunwa mugufiya, ihagaze mu byatsi bifite amashami y'icyatsi.

Akanyamaswa gatoya k'umutuku, gafite umurizo n'amatwi, kari ku giti gifite urubobi rw'icyatsi n'umweru, kegereye amababi y'icyatsi n'andi ajya kuba umuhondo.

Inyoni nziza ifite ibara ry'umuhondo n'umukara, ikagira ijisho ritoya ry'umuhondo n'umunwa muremure w'umukara, ihagaze ku ishami ry'igiti rifite amababi y'icyatsi.

Inyamaswa ndende nziza zifite amabara meza, zihagaze mu murima munini urimo ibyatsi birebire, inyuma yazo hakaba hari umurima urimo ibiti birebire.

Inyoni nziza ifite amabara y'umutuku, umukara umuhondo, icyatsi, ikaba ihagaze ku giti gifite udushami twinshi, icyo giti kikaba gifite n'amababi y'icyatsi.

Akanyamaswa gatoya k'umukara gafite ubwoya bwinshi, amatwi, umunwa, amazuru n'amaso, gafashe amaboko yako, kicaye ku giti gifite amashami menshi, amababi y'icyatsi kirekire.

Inyamaswa ntoya ifite ibara ry'umutuku n'umweru, ikagira amaguru abiri, amaboko abiri, iri mu twatsi twinshi tuzamuye dufite amababi y'icyatsi, iruhande rwatwo hari igiti.

Akanyamaswa keza gafite ibara ry'igitaka, ni ibara ry'umukara, amahembe abiri n'amatwi abiri, gahagaze mu byatsi by'icyatsi, inyuma yako hakaba hari ibyatsi birebire bisumba ibyatsi biri imbere.